Umuhinzi ari gutera umuti ku myaka ye, kugira ngo yice udusimba dutoya turiho dushobora kurya imyaka tukayangiza, bityo umusaruro ukazagabanuka, tujye twita ku bihingwa byacu kugira ngo bibashe kuduha umusaruro twifuza.

Urujya n'uruza rw'abaturage bari gusarura ikawa muri iki gihe zireze, ikawa ni igihingwa ngengabukungu u Rwanda rusohora mu mahanga, bakabasha kurukoramo icyayi bityo natwe tukabona amadovize.

Imisozi ihanamye ariko bakoreraho ubuhinzi, bashyizeho amaterasi y'indinganire kugira ngo amazi nagera mu butaka abashe guhamamo bityo umusaruro wiyongere, amatarasi y'indeinganire azana umusaruro kubera ko ifumbire ibasha kuguma mu butaka ndetse n'imvura ikagumamo.

Mu Rwanda hari inyamaswa zikurura ba mukerarugendo harimo: ingwe, intare ndetse n'izindi, bityo Igihugu kikabasha kubona amafaranga binyuze mu gukurura ba mukerarugendo baje kureba inyamaswa zacu.